Uburezi buba bwiza cyane, aho bufasha abantu kuba bakwihangira imirimo itandukanye, cyangwa se bakamenya byinshi bitandukanye, bakamenya nk'imiti bazajya batera mu bihingwa bya imiti, yakize ibihingwa n'imiti yakiza n'amatungo, ibyo bikaba byiza cyane bigafasha igihugu gutera imbere, kuko umuntu uba warahinze ibigori bakamukorera umuti wo kuba wavura ya ndwara, ya nkongwa ibyo biba byiza cyane kuko uburezi budufitiye akamaro kanini.

Ubuhinzi ni bwiza cyane aho usanga n'abantu bazi ukuntu batera imiti. No kwiga ni byiza cyane kuko umuntu amenya ese ibihingwa iyi ndwara birwaye ni iyihe bakajya bateramo n'umuti ku buryo ibihingwa bikura bikaba byiza, bikaba byasagurirwa no ku masoko, natwe tukabirya twumva bimeze neza kuko byakuze neza.

Umuti yire ni umuti uvura ibigori ukabasha kwica udusimba twitwa twa nkongwa bityo igihingwa kikabasha kura neza cyane cyane nk'ibigori ushyizemo yire byera neza birabyibuha iyo wakoresheje uyu muti witwa yire.

Kwigaga ni byiza cyane ubusanga umuntu yareba ibihingwa yabona indwara bigwaye akaba yamenya umuti wabitera, ibyo biba byiza cyane kuko umuti uba yaranyuze muri lrboratwari zitandukanye, akabazi bihingwa ingwara izabifata izaterwa n'uyu muti bakabona uburyo batera umuti bitewe n'uburwayi bw'ibihingwa birwaye.

Kwiga ni byiza cyane aho ubona igihingwa gisa n'icyarwaye, ukamenya ngo uragiha uwuhe muti, ibyo biba byiza cyane, bitugirira akamaro, aho usanga ibihingwa bifite nk'uburwayi tukamenya ngo turabiha uwuhe muti, turabitere uwuhe muti kugira ngo bikomeze bikure neza.

Uburezi bukomeje kuba bwiza cyane, bufasha abantu kumenya gukora imiti, bayikora bakamenya iyi imiti izaterwa ikintu runaka, ugasanga bakoze umuti witwa roketi. Roketi igategwa nko mu bihingwa by'ibirayi byafashwe na gasimba ugasanga uwo muti uvuye ibirayi kuba byapfa cyangwa se uteye mu bigori ukica nkongwa bigakomeza bigakura neza bikadufasha gutera imbere kuko tubicuruza tukabonamo amafaranga.

Kwiga biba byiza cyane kuko bidufasha kumenya ibihingwa bikeneye uwuhe muti kugira ngo bikomeze bikure neza, tumenya uburyo ibigori bikura, tukamenya ngo niba byagwaye nkongwa biraterwa uwuhe muti, ugasanga twaguze amapombo turi gutera ibigori umuti bigakura neza bimeze neza bishishe, bikaduha umusaruro mwiza natwe tugakomeza tugatere imbere kuko twamenye umuti wo kuvura ibyo bihingwa.

Ubworozi buba bwiza cyane, aho ubu ngubu usigaye usanga ibintu by'ibyuzi biba hafi y'ibishanga, abantu bariteje imbere bakazajya bororeramo amafi, bamara kuyorora yaba manini bakayaroba bamara kuyaroba bakajya kuyagurisha ku isoko, natwe tukabona ayo tugura tukarya izo ntungamubiri, tugakomeza tukagira ubuzima bwiza tukabaho neza, n'abayoroye bakabonamo amafaranga bagakomeza bakiteza imbere.

Ubworozi bw'amafi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yarihangiye bizinesi agacukura ibyobo agashiramo amafi, bisa neza agashiramo amafi akayororeramo ayo mafi agakura akayajyana ku isoko abantu bakayagura, kuko amafi yabamo intungamubiri nyinshi kandi nziza, abantu bayagura bakabona icyo kurya gifite ubuzima bwiza bagakomeza bakabaho neza kandi bishimye banezerewe.

Ubworozi bw'amafi budufitiye akamaro kanini, aho usanga abantu borora amafi, indagara bamara kubyorora bigakura bakabiroba bakabijyana ku isoko, ugasanga igiye nko muri hoteri runaka usanze hari ifi iteguye neza, indagara ziteguye neza ukabijya wishimye ukazasubirayo kubera ko wasanzeyo izo ntungamubiri. Bityo bikabafasha nabo gutera imbere mu buryo bwo kubona amafaranga no kubona abakiriya.

Ubworozi bw'amafi ni bwiza cyane. Aho usanga ibiryo biteguye neza nko muri hoteli biriho n'agafi. Ibyo biba byiza cyane ukabona harimo n'intungamubiri harimo n'utunyanya akabona tumeze nk'udusarade, hariho n'utundi tuntu dutandukanye twiza cyane. Ibyo bigakurura ba mukerarugendo. Bagakomeza gushishikariza abarozi b'amafi bagakomeza bakayorora kuko abamo intungamubiri. Atuma abantu bakura neza, bakanatekereza neza, bakanamenya n'ubwenge.

Aho abantu bamenyeye kubaka ibidamuzi, biriya byobo biba birimo amazi, byafashije aborozi b'amafi gutera imbere, aho usanga bubatse ibyo bidamuzi, bakazana amafi bakayororeramo. Bamara kuyororeramo bakabona ukubo bayagurisha, kuko aba yabyaye andi mafi menshi, nabo bakiteza imbere bakabona ayo kuruya.

Ibiti birakuze byahinzwe neza birenda gusarurwa, kandi bihinze hafi y'umurima uhinze benda gushyiramo imbuto, kugira ngo nibyera bizabashe gusarurwa bigurishwe.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere cyane, aho usanga umuntu yariyemeje akazajya ahinga, yarangiza agasagurira amasoko, bakohereza n'i kigali aho ba abantu badahinga, yarangiza na we akabona ibyo kurya bitunga n'abana, bityo agakomeza kugira ubuzima bwiza akaniteza imbere mu buryo butandukanye, kuko aba yabonye amafaranga.

ubuhinzi buga bwiza cyane budufasha gutera imbere, aho usanga umuntu yarafashe umurima akawugura cyangwa se agahingamo ibirayi, yarangiza agasagurira amasoko akazajya arabona ibyo abana barya mu rugo, ibyo bikadufasha gutera imbere mu buzima bwacu, kubera ko twahinze tukabona ibyo kurya tugasahurira na masoko, ibyo bikadufasha no gutera imbere mu buzima bwacu.

Guhinga biba byiza cyane aho usanga umuntu yarahinze yaritejeje imbere ,agahinga ibirayi ,ugasanga afashe umurima awuhinzemo ibirayi, ugasanga abonye uburyo asagurira amasoko ,na we ubwe akabona ibyo kurya bityo akabasha kwiteza imbere kubera ko yarahinze ,yarasaruye ,aragurisha abona amafaranga ,akabona na we ibyo kujya mu rugo.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, aho usanga udufatiye runini mu buzima bwacu bwa buri munsi, ugasanga umuntu yarahinze agahinga umurima w'ibirayi, yarangiza ibirayi byakwera akabigurisha akabonamo amafaranga nawe akabonamo ibyo kurya, ugasanga hahinze n'ibiti bikikije uwo murima biragurishijwe bikuwemo amafaranga, ibyo bikaba byiza cyane bikadufasha ngo dutere imbere.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho usanga abantu bariteje imbere bagahinga imbuto zitandukanye zifitiye umubiri akamaro, kandi zifasha n'abafite uburwayi butandukanye akamaro, aho ugasanga umuntu yarahinze za beterave. Betarave ifite akamaro kanini mu mubiri, aho usanga kwa muganga barazidutegetse bityo tukabasha guteza imbere abacuruzi zikabonerwa abakiriya.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho ubusanga bufitiye abantu akamaro kanini, ugasanga umuntu yiteje imbere, yahinze ibintu bitandukanye, agahinga nk'ibitoki byamara kwera akabisagurira amasoko, na we akajya abona ibyo kurya, akanabicuruza agahinga nk'ibirayi. Ibirayi byamara kwera akajya kubigurisha ku isoko, akabona amafaranga, akajya aguramo n'ibindi bintu aba akeneye byo mu buzima bwa buri munsi.

Ubuhinzi budufitiye akamaro kanini aho usanga umuntu yarahinze ibirayi, akiteza imbere, yahinga ibirayi bikera neza akabijyana ku isoko, yabijyana ku isoko akabona amafaranga, bamuha amafaranga yarangiza akagenda agatangira abana minerivari, na we ubwe akabona ibyo kurya mu rugo, ubuzima bwabo bugakomeza bukaba bwiza, kuko bahinze bakeza bakabona amafaranga bagakomeza bakiteza imbere.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho usanga umuntu yarafashe kumurima akajya arawuhingamo za karoti zamara zamara kwera zakazijyana ku isoko akabonamo amafaranga, nawe akazajya arabona ibyo kujyana abana be bakabaho neza, kubera ko bahinga karote kandi karotizigira mumaro munini mu mubiri kandi zikiza n'amaso ibyo bikadufasha gukomeza kubaho neza mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, kandi ni kimwe mu bidufitiye akamaro kanini, aho usanga abantu barahinze amashaza cyangwa se amajeri, ugasanga ayo majeri yareze bayajyanye ku isoko, babonye nabo ayo kurya bityo bagafasha kwiteza imbere mu buryo bw'amafaranga no mu buryo bw'imirire bakagira imirire myiza, bakabona n'amafaranga bakaba bakemura n'ibindi bibazo bitandukanye.

Ubuhinzi ni bwiza cyane aho usanga umuntu yarahinze ibiti ,akavuga ati "ibi biti bizamviramo akamaro ." Byamara kwera akabitema akabijyana ku isoko bakabikuramo imbaho, bagakuramo intebe ,nawe akaba yakoresha intebe zo kwicaraho bityo akinjiza n'amafaranga bikamugirira akamaro bikamufasha gutera imbere mu buryo bwa buri munsi.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yarahinze nk'indabyo ugasanga yahinze n'ubwatsi runaka, akazajya abicuruza akagurisha, izo ndabyo yamara kuzigurisha na we akazitaka mu nzu ye, ibyo bigakomeza bikamufasha gutera imbere kuko aba yabonyemo amafaranga.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, iyo wasangaga umuntu yari ahinze uyu murima agahingamo ibigori, akabisarura, yarangiza akajya kubigurisha ku isoko, akazajya ara bonamo amafaranga, ibyo bigakomeza bikamufasha gutera imbere akazongera agahingamo n'ibindi akajya arabona amafaranga gutyo gutyo, gahoro gahoro, bikamufasha gutera imbere.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yarishingiye buziness, akavuga ati reka njye mpinga imirima nimara kuyihinga njye nsagurira amasoko. Akemeza akajya ahinga nk'amajyeri. Amajyeri arakundwa cyane, cyangwa se icyo bita amashaza, arakundwa cyane ku isoko. Aho usanga umuntu yayajyanye ku isoko, akabonamo amafaranga, yarangiza agakomeza agahinga, akajya yiteza imbere.

Ubuhinzi ni bwiza cyane. Aho usanga agace runaka umuntu yarakifatiye akihingira nk'imbuto . nki ibirayi yamara kubihinga bikera ,agasagurira amasoko , na we akabona ibimubeshaho ,akaba yabona amafaranga yo gutangirira abana mu mashuri . Nawe akabona ibyo agura imyenda zo kwambara, bityo agakomeza akabaho neza hamwe n'abana be n'umuryango we.

Ubuhinzi ni bwiza cyane aho usanga duhinga tugasagurira n'amasoko, tugahinga ibyo mu rugo tugasagurira n'amasoko kugira ngo tubone amafaranga yo twakemuza ibindi bibazo byo mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ibyo tutabashije kuba twakemura. Ibyo twasaguriya amasoko bidufasha kuba twabaho neza, tukabona ibyo dukeneye bya buri munsi.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho usanga umuntu yihangiye umurimo runaka, agatera imbuto akazishyira mu bihoho, akajya azigurisha, nawe akaba yabasha kuzitera ku rugo iwe, bityo ari ibiti agazisaruramo ibiti, akaba yabonamo inkwi, agakuramo imbaho, akaba yakuramo intebe, bityo agakomeza akiteza imbere.

Kwihangira imirimo bikomeje kwiyongera, aho usanga umuntu yarahinze nk'avoka, avoka yarangiza ikera, ikamukundira akazajya arasagurira amasoko, akabona ibyo ajyana ku isoko byo gucuruza, bityo abandi bakabona bakaza kugura ibyo biba byiza cyane. Avoka tukaba twayikuraho n'ubwatsi bwo guha ihene igakomeza kuduha umusaruro mwiza cyane.

Guhinga biba byiza cyane, kuko bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, bikadufasha guterare imbere aho usanga umuntu yari yihingiye nka marakuca, marakuca igiye kumera nk'amatunda, akayihinga nko mu biti bye bikikije urugo yamara kuyihinga ikamukundira ikera, agasagurira amasoko nawe ubwe akabona ibyokurya byo mu rugo by'abana birira, n'abantu natwe tukaryaho ibyo bikadufasha gutere imbere kuko tuba twabonyemo n'amafaranga.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, kuko budufitiye akamaro kanini, aho usanga umuntu yarahinzega urutoki rukera akarugurisha akabonamo amafaranga, nawe akabona icyo kurya mu rugo. Agakuramo n'imineke, imineke kandi ituma agira ubuzima bwiza agahinga nk'ikidodoki, ikidodoki cyangwa se igishushu. Ugasanga abantu babonye imboga zo kurisha n'ibindi biryo ibyo bigakomeza bikadufasha mu buzima bwacu no mu iterambere rya buri munsi.

Guhinga biba byiza cyane, aho usanga umuntu ahinze nk'amateke cyangwa se nk'ibitoki, bidodoki, akabasha kwiteza imbere, akaba yabigurisha, akabonamo amafaranga, nawe akabona ibyo azajya arya mu rugo, ayo mafaranga akaba yayaguramo ibindi bintu yaba adafite mu rugo, bityo agakomeza kubaho neza, mu buzima bwiza.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga aho umuntu yarahinze intoryi akiteza imbere, akazajya arazisarura akazijyana ku isoko, abantu bakabona icyo kurya, nabo bazihinze bakabonamo amafaranga, nabo bakabona icyo kurya bagakomeza bakiteza imbere bakagura ubuhinzi bwabo.

Ubuhinzi n'ubworozi buba bwiza cyane, aho usanga nk'umuntu yariteje imbere akorora nk'amatungo runaka, yarangiza akazajya ayagurisha na we ubwe akavuga ati:'' Uyu munsi ndarya nk'akanyama k'ihene." Kubera ko yarazoroye arazifite, bityo bigakomeza kudufasha mu iterambere ryacu rya buri munsi.

Ubuhinzi buba bwiza cyane ,aho usangaga nko mu cyaro barahinze bagahinga nk'ibijumba bari kwiteza imbere, bakazajya barabona ibyo barya bo ubwabo bagasagurira amasoko, bityo ab'i Kigali bakabona na bo ibyo bagura, ibyo barya bityo bakabasha kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuhinzi muri iki gihe budufatiye runini, ahora uri gusanga harika za poroje zereraga igihe gitoya, abantu barazihinze bamara kuzihinga bagasagurira amasoko, kuko zisigaye zirera zikiri ntoya, zikera n'ibivoka byinshi abantu bakazajya bajya gucuruza ku masoko, natwe tukabona izo kurya tukabona nizo kugura, umuntu akazizigurisha kubera ko yazihinze akiteza imbere akaguramo n'ibindi bintu bitandukanye nawe amakabona izo kurya.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho umuntu usanga yarahinze nk'umurima agahingamo nk'inyanya zarangiza zikera neza, zikazajya zigurishwa zikajyanwa ku masoko abantu bakazigura, na ba mukerarugendo bakaza kuzireba bakazigura bakazijyana mu mahanga, tugasagurira amasoko natwe tukabona ibyo kurya bitunga umubiri, ibyo bikaba byiza cyane kuko bifasha igihugu iterambere.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho usanga umuntu yarahinze nk'ibihaza akajya abigurisha akabonamo amafaranga nawe akajya abona n'ibyo kurya mu rugo. Ibyo bigakomeza bikadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera ko twabonye ibyo kurya tugatera n'imbere tugakomeza tukabaho neza.

Ubuhinzi buba bwiza cyane ,aho umuhinzi ahinga akiteza imbere, agahinga nk'ibishyimbo abantu bakaza kubisura kubera ko biba ari byiza cyane, ibyo bikamufasha kuba yabona n'abakiriya bakamurangira n'abakiriya ibishyimbo bye byeze, akabasha kubigurisha akiteza imbere.

Ibiribwa by'imbuto bidufitiye akamaro kanini, aho usanga umuntu ariye imbuto zikamugirira akamaro mu mubiri ,noneho bazihinga bakazisagurira n'amasoko ,abantu na bo bakabona kuri y'izo mbuto, na bo bakabona intungamubiri, bityo tugakomeza tukagira ubuzima bwiza, kandi buzira umuze.

Ubuhinzi budufitiye akamaro kanini, aho usanga umuntu yarahinze nk'umurima w'ibigori wamukundira bikera neza, akabijyana ku isoko akabonamo amafaranga ntatwe tukazajya turabona ibyo kurya, ibyo bigakomeza bikadufasha gutera imbere kuko tubonamo n'amafaranga kuko twatangira abanyeshuri bo kwiga bakiga neza ntakibazo.

Iterambere ni ryiza cyane, aho usanga buri muntu wese yarihingiye nk'imbuto runaka, agahinga nk'amapera yagera igihe cyo kwera akajya ayagurisha, akabona amafaranga akaba yaguramo nk'ibirayi byo kurya, na we ayo mapera akayarya kuko ni imbuto zubaka umubiri, bityo ubuzima bugakomeza bukaba bwiza.

Ubuhinzi budufitiye akamaro kanini, aho usanga umuntu yarahinze akishingira na bizinesi, yarangiza agafata nk'isoko runaka, akajya arabicururizamo, akabona ibirayi byinshi, akazajya arabigurisha, nawe ubwe akabona ibyo kurya mu rugo, ibyo bikatugirira akamaro kanini kuko tubonamo amafaranga, tukabona n'ibyorya, tukaba twabasha kwiteza imbere, no mu bindi bintu bitandukanye.

Ubuhinzi buba bwiza cyane kandi budufasha mu bintu bitandukanye, aho usanga umuntu yari yiteje imbere, agahinga nk'ibihaza ibihaza bifitiye akamaro kanini aho usanga yarabihinze akabijyana ku isoko abantu bakabona ibyo bagura byo kurya bitunga umubiri, n'umuntu wabihinze akabona ibyo kurya mu rugo, ibyo bigakomeza bikadufasha mu buryo bw'iterambere mu buryo bw'ubuzima bwo kugira ubuzima bwiza.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yarahinze, agahinga nk'imyumbati umuririma wose, yamara guhinga iyo myumbati, agasarura. Agasagurira n'amasoko, buri wese akazajya abona icyo ararya, bityo bigakomeza bikaba byiza mu iterambere ryacu rya buri munsi, kuko uwahinze abona amafaranga akajya arajya kuyaguramo n'ibindi biryo, akaguriramo n'abana amakayi n'amakaramu bityo igihugu kigakomeza gutera imbere.

Ubuhinzi budufatiye runini mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho usanga abahinzi barahinze, bagahinga nk'amashaza cyangwa se amajeri, barangiza bagasagurira amasoko, n'abatarahinze bakabona ibyo kurya, n'ababihinze bakabonamo amafaranga na bo bakabona ayo majeri bakazajya barayarya, barangiza bakabaho neza n'ayo mafaranga akabafasha kuba bagura ibindi bintu bitandukanye.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho budufitiye akamaro kanini, ugasanga abantu bafashe nk'ishyirahamwe bari guhinga ahantu runaka bashaka kuzahingamo imbuto bakiteza imbere, bakazajya barabona icyo bajyana ku isoko na bo bakazajya barabona ibyo barya, ibyo bikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi bakabona n'amafaranga kuzajya baratangirira abana babo mu mashuri.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, aho usanga aho umuntu yarishingiye buzinesi, akavuga ati uyu murima ngiye kuwuhingamo amashu, namara kwera nzajya ngemurira amashuri nanjye mbone ibyo kurya, kuko amashu ku bigo by'amashuri bakunda kuyakoresha cyane, agasagurira n'amasoko n'abaturage bakabona imboga zo kurya, na we ubwe agakomeza akiteza imbere, akagura ubuhinzi bwe kuko yabonyemo amafaranga.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho umuntu afata umwanzuro akavuga ati ngiye kujya ndahinga uriya murima mpingemo amashu, njye ndayagurisha nyaranguze nk'ikigo cy'amashuri bajye barayarya abanyeshuri ,nanjye mbone ayo kuba narya mu rugo nkabonamo n'udufaranga two kuba nagura ibirayi bityo bikatugirira akamaro kanini.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga ubu ngubu urubyiruko bari kujya barwigisha ukuntu rwakwiteza imbere, guhinga nk'imboga bakazajya bazicuruza bakazigemura yewe no hanze mu bindi bihugu, tukabasha gukomeza kwiteze imbere, tukabonamo amafaranga tukabasha kuba twagura n'ibindi bintu bitandukanye, cyane cyane urubyiruko ugasanga ahanini ni rwo bari kwigisha ukuntu rwakwiteza imbere, mu buryo bwo guhinga imboga n'imbuto.

Guhinga biba byiza cyane, aho usanga bidufatiye runini mu buzima bwacu bwa buri munsi, tugahinga ibigori, tukabijyana nko ku ikusanyirizo, nk'ahantu runaka bageyeho kubishyira, bityo tukaba twabona abakiriya bitworoheye, kuko tuba twahinze ibigori byinshi, tukabona abakiriya, bityo bikadufasha guterare imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubuhinzi buba bwiza cyangwa se ubucuruzi . Aho usanga umuntu yarahinze nk'ibintu bitandukanye. Ibyo bita ibibiringanya n'intoryi n'ibitunguru n'amapuwavuro. Ugasanga umuntu aranabicuruza akajya abicuruza mu isoko, na we afite ibyo kurya mu rugo. Ibyo bikadufasha gukomeza gutera imbere no kugira ubuzima bwiza

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho usanga umuntu yarahinze akiteza imbere, agahinga k'ibirayi bya kinigi yarangiza akabijyana ku isoko nawe ubwe mu rugo akabona ibyo kujyabararya abana be bagakomeza bakabaho neza, akabona n'amafaranga yikuzajya atangirira abana be ku mashuri, akabaguriramo n'imyenda, bakagura n'ibindi biryo bitari birayi, ibyo bigakomeza bikadufasha kubaho neza.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho umuntu usanga yarahinze nka avoka. Avoka yarangiza akiteza imbere akazajya arazigurisha ,agasagurira amasoko na we ubwe mu rugo akabona ibyo kurya kuko avoka ni nziza cyane ni intungamubiri . Imeze nk'urubuto ,aho umwana ayirya agakura neza n'umuntu mukuru na we yayirya agakura neza, akarushaho kubaho neza cyane.

Ubuhinzi ni bwiza cyane ,aho usanga abantu barahinze ibihingwa bitandukanye nk'imyumbati. Ugasanga uhinza imyumbati ,imyumbati ikazagufasha mu kubaho. Ukayirya warangiza ,ugasagurira amasoko ukajya kugurisha ,ukabona amafaranga nawe ukaba waguramo ibindi bitandukanye n'imyumbati, ukabasha kurya indyo itandukanye . Ibyo bikatubera byiza mu buryo bw'iterambere no mu buryo bw'imikurire y'umubiri.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, aho usanga umuntu yarahinze nk'intoryi, yazihinga akiteza imbere agasagurira n'amasoko kuko aba yejeje nyinshi, kuko ntabwo yazirya zose bagasagurira amasoko, n'abandi bakabona ibyo bahaha bityo agakomeza akiteza imbere kuko aba yabonye amafaranga, akaba yatangirira abantu n'amashuri cyangwa se akaba yakwiguriramo n'ibindi bintu bitandukanye, akaba yaguramo n'izindi mbuto agakomeza agahinga.

Ubuhinzi ni bwiza cyane aho usanga mu giturage baritejeje imbere, bagahinga ibigori bagafata umurima wose bakawuhingamo ibigori gusa, barangiza bagasarura bagasagurira n'amasoko, nabo bakabona ibyo gushesha bakaba bakuramo umutsima cyangwa se igikoma.

Ubucuruzi n'ubuhinzi bigiye kumera kimwe kandi bifite akamaro kanini, aho usanga umuntu yarishingiye buzinesi akazajya arajya kurangura ahantu bacuruza intoki n'inyanya, akazajya arabicuruza akabonamo amafaranga nawe ubwe akabona ibyo kurya mu rugo, kuko aba yararanguye byinshi nawe inyungu akaba yabasha kuyikuramo yirira ibiryo by'intungamubiri.

Ubworozi ni bwiza cyane aho umuntu yishingira buzinesi akavuga ati nzajya norora inkoko, yamara gushinga iyo buzinesi akagura n'ibigore' by'inkoko, akaba afite n'isake zikajya zibyara agasagurira amasoko, na we ubwe akiteza imbere kuko aba yabonye amafaranga, akaba yaguramo ibindi imyenda cyangwa n'ibiryo byo kujya arya, bityo agakomeza kubaho neza.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho budufasha mu kwiteza imbere, tugahinga, tugahinga imbuto zitandukanye tugasagurira amasoko, bityo bikadufasha kuba twabona n'amafaranga yo kwishyurira abana bacu, bikatworohera mu buryo bw'imibereho, tukaba twagura n'imyenda, tukagura n' inkweto kubera ko twahinze tugasagura n'amasoko, natwe tukabona ibyo kurya.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho usanga mu giturage abantu bihingiraga ibishyimbo, babihinga byabakundira bikera bigakura neza byamara kuma bakabihura bakabijyana ku masoko bakabona amafaranga nabo bakabona ibyo kurya bibabeshaho batiriwe barajya guhaha, bityo bikaba byiza cyane kuko natwe tutabihinga tubona uko twabigura ibyo bigakomeza bigafasha igihugu kugira iterambere.

Ubuhinzi buba bwiza cyane kandi bukungahaye muri iki gihe ku iterambere, aho usanga abantu bariyemeje bakaba ba rwiyemezamirimo bagahinga nk'ibirayi, bamara guhinga ibirayi bagasagurira amasoko bakabonamo amafaranga, bakaba baguramo n'imyenda na bo bakabona ibyo kurya bibabeshejeho, bagasagurira n'amasoko bityo n'abo hirya no hino batabihinga bakabona ibyo bazajya barya.

Guhinga ni byiza cyane aho usanga duhinga ubwoko butandukanye bw'ibihingwa tugasagurira amasoko natwe ubwacu tukabona ibyo turya mu rugo bityo bikadufasha kubaho neza tukanasagurira na masoko.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho usanga abantu barahinze nk'ibijumba cyangwa se imyumbati, bamara kubihinga bejeje byinshi bakajyana ku isoko, nabo bakazajya barabona ibyo kurya, bityo bagakomeza kugira ubuzima bwiza ntihagire ubukene bubafata, ibyo bigakomeza kudufasha gutera imbere nko mu gihugu, ugasanga abantu babona ibyo kurya.

Ubuhinzi buba bwiza cyane. aho usanga umuntu yarishingiye bizinness, akaba afite nk'umurima akajya awuhingamo ibirayi, bikamukundira bikera neza, akajya abijyana ku isoko, natwe tukajya tubona ibyo kugura ku giciro gitoya, kuko abahinzi babihinga bikaboneka, natwe tukabibona ku giciro gitoya, bityo ubuzima bugakomeza bukaba bwiza.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga mu cyaro, abantu bashize hamwe, bagahinga ibihingwa bakiteza imbere, bagasagurira amasoko nabo ubwabo, bakabona ibyo barya, bazajya bararya bakiteza imbere, bakabigurisha bakabonamo n'udufaranga twabafasha, mu bindi bintu bitandukanye.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho bufasha umuntu mu mibereho, agahinga nk'ibinyomoro, ibinyomoro akabijyana ku isoko akabona n'abakiriya babigura akabonamo amafaranga, na we akabona ibyo kurya kuko ibinyomoro biba mu mbuto, bigatunga umubiri, umubiri ugakomeza ukagira ubuzima bwiza, bityo n'ababiguze na bo bagakomeza bakagira ubuzima bwiza, iterambere ry'igihugu rigakomeza rikiyongera.

Guhinga ahanini usanga ari nko kwiteza imbere, aho ubona mu cyaro abantu bari guhinga, bagahinga imbuto runaka nk'ibirayi, bakajya babona ibyo bagurisha, bakabona n'ibyo kurya, bityo bakabasha kwiteza imbere mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'imirire bakagira ubuzima bwiza.

Ubuhinzi bukomeje kugenda buraba bwiza cyane, aho usanga nk'umuntu yarihingiye nk'umurima, akawuhinga amashu, akagemurira nk'ikigo cy'amashi, abanyeshuri bakabasha kubaho neza, bityo bakabona ibyo kurya byoroshye batiriwe barajya kugura iyo za kure nko mu mahanga, uburezi bugakomeza bukaba bwiza kubera abahinzi baba batwitayeho.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga nk'umuntu yaravuze ati reka mpinge imbuto runaka, zizamfasha mu buzima buri imbere yanjye. Ugasanga ahinze nk'ironji cyangwa se amatunda, agahinga amaronji yarangiza yakwera akagemurira amasoko, amaronji akajyanwa no mu bindi bihugu hanze na we akabona ibyo agaburira abana, cyangwa se na we akabona ibyo kurya bitunga umubiri bityo bigakomeza kuba byiza.

Ubuhinzi buga bwiza cyane aho usanga umuntu yariteje imbere nk'umugore, agatinyuka agakora agahinga ibigori, yamara kubihinga yabona ko bizamuha umusaruro akabitera umuti mu buryo bwo kubiririnda indwara kugira ngo bizere neza, byamara kwera akabijyana ku isoko nawe akabona ibyo kushesha akankwamo n'igikoma, abana be bakabaho neza nawe agakomeza kubaho neza ko abonye n'amafaranga akazajya atangira abana minerivari y'ishuri.

Ubuhinnzi ni bwiza cyane aho umuntu yihingira, agafata nk'umurima akavuga ati: "Ngiye kuwuhingamo ikintu runaka", ugasanga mfashe nk'amashu nkayahinga mu murimo runaka, namara kuyahinga nkaba nasagurira amasoko, nanjye mu rugo nkajya mbona ibyo abana barya, nanjye nkabona ibyo kurya bimbeshaho, ibyo bikadufasha imikurire y'umubiri no mu buryo bw'iterambere.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga ngo umuntu yarahinze akiteza imbere akaba agahinga nkaza wotameroni, akajajya arazigurisha dore ko zikundwa no ku masoko zifite n'umumaro munini mu mubiri zoza mu mubiri ibyo biba byiza cyane, kuko iyo imuntu yarahinze akiteza imbere na we abasha kuba yakemura ibibazo bye bimworoheye kuko aba yarahinze, agasagurira amasoko nawe akabona ibyokurya.

Ubuhinzi ni bwiza cyane budufitiye akamaro kanini aho usanga narahinze nk'ibirayi abantu bariyemeje guhinga ibirayi abantu bakaza kubisura baje kureba uko bazamuteza imbere babigura. Ibyo bikaba byiza cyane kuko uwabihinze abona amafaranga nawe akabona ibyo kurya atiriwe arajya kugura, ayo mafaranga abonye akaba yamugirira akamaro mu bindi bintu bitandukanye ku buryo nta kintu yakenera ngo akibure kuko yarahinze akakibona agasagurira n'amasoko.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho budufasha mu buryo bw'imibereho, aho umuntu agahinga nk'ibigori byarangiza bikera, akabijyana ku isoko agasagurira amasoko nawe akazajya arabona ibyo kurya mu rugo, ibyo bigakomeza bikadufasha mu mibereho yacu.

Ubuhinzi buba bwiza cyane kandi ni kimwe mu bidufitiye akamaro kanini, aho usanga umuntu yariteje imbere akaba afite nk'umurima akawuhingamo nk'imyumbati. Iyo myumbati ikamugirira akamaro kanini, akazaja arabona ibyo kurya iwe mu rugo, akagaburira n'abana. Bikamufasha no kwiteza imbere ayijana ku isoko, akaguramo ibindi bikoresho, agakemura ibindi bibazo aba afite.

Ubuhinzi bubaga bwiza cyane kandi budufitiye akamaro kanini, aho usanga umuntu yaravuze ati reka mpinge ibitoki nge mbigurisha, undi akavuga ati reka nge ndangure ibitoki, nimara kubirangura mbicuruze mbonemo amafaranga, bityo nkomeze kwiteza imbere mu buryo butandukanye.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga ko umuntu afite umurima, akawuhingamo amateke, yamara kuyahinga, akamufasha kwiteza imbere, agasagurira amasoko, akabona amafaranga yokuguramo n'ibindi bintu, cyangwa se yaba afite n'umwana akiteza imbere, akazajya amutangira amashuri, bityo ubuzima bugakomeza bukaba bwiza.

Ubuhinzi budufitiye akamaro kanini aho usanga umuntu yarishingiye bizinesi, akazajya ahinga nk'imiteja, yarangiza akajya kuyigurisha ku isoko akazajya abona abakiriya, agakora mu mafaranga na we akazajya abona ibyo kurya mu rugo, ibyo bigakomeza bikamufasha mu iterambere rye rya buri munsi.

Ubuhinzi bw'imbuto budufatira runini, aho usanga imbuto twarazihinze tukazisagurira ku masoko, natwe tukabona izo kurya, bityo zikabasha ku kugemurwa mu bindi bihugu nko hanze, tugakomeza tukiteza imbere, tukabona n'amafaranga yo gutangirira abana bacu, kubera ko imbuto ziba zadufashije kubona amafaranga.

ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yariyemeje guhinga umurima, akawufata, akawugura cyangwa se ari uwe, akawuhingamo ibihaza, ibihaza bikagenda bikamukundira bikera, akajya kubigurisha ku isoko, bityo akabona amafaranga, nawe akabona ibyo kurya, natwe tutabihinze tukabona icyo kugura, waba ubishaka ukaba wabibona hafi, kubera ko abahinzi baba barabihinze, ibyo bikaba byiza cyane.

Ubuhinzi budufitiye akamaro kanini aho usanga umuntu yarahinze nk'ururima runini akaruhingamo ibigori byamukundira bikera neza akasagurira amasoko nawe akazajya arabona ibyo kuryamo umutsima cyangwa se igikoma, agakomeza akiteza imbere kuko aba yabonye amafaranga agatangira n'abanyeshuri bafite amashuri neza nta mbogamizi kuko yahinze agasagurira amasoko akabona amafaranga.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, kandi budufatiye runini, aho usangag ahantu haba ibishanga bari guhingamo nk'umuceri, umuceri ni igihingwa cyiza cyane gikundwa kikanajyanwa hanze mu bindi bihugu, ugasanga abantu bahinze umuceri biteje imbere, bamara kuwuhinga bakawugemura hanze mu bindi bihugu, natwe tukabona uwo turya, byatubereye byiza cyane, bikadufasha no gutera imbere.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho usanga twarahinze imbuto zitandukanye, ugahinga nk'urusenda ukabona amasoko bakarugurisha ku isoko, bityo abanyamahanga bakaza kurugura kuko urusenda rufite akamaro kanini, rurinda kanseri mu mubiri n'ibindi bintu bitandukanye kuko hari byinshi rurinda, bityo tukabasha kwiteza imbere mu buryo bw'ubuhinzi.

Ubuhinzi buba bwiza cyane， aho usanga warahinze waritejeje imbere，ugasanga ibyo uhinze nibyo bikomeje kukugoboka， ugasanga muntu yarahinze nk’amasaka， amasaka akamuteza imbere，akaba yabona ayo kugurisha ku isoko， n'abandi bakabona ibyo bagura， bakabona abatarayahinze bakabona aho bayagura， bityo bagakomeza kugira ubuzima bwiza biteza imbere.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho umuntu yiteza imbere agahinga imbuto runaka, ugahinga nk'ubunyobwa warangiza ukagemurira amasoko, nawe ubwawe ukabona icyo kurya, na we ukaburya bukagutungira umubiri ukagira ubuzima bwiza, bityo tugakomeza kugira ubuzima bwiza.

Ubuhinzi budufitiye akamaro kanini aho usanga umuntu yarahinze nk'ubunyobwa, byarangiza akazajya arabugurisha akabonamo amafaranga nawe akazajya arabona izo kurya ubunyobwa bufite akamaro kanini mu mubiri, ibyo bigakomeza kumufasha gutera imbere kubera ko yarahinze akabona amafaranga yo gukoza n'ibindi bintu bitandukanye.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu afite imbuto zitandukanye, zameze zo kujya gutera no mu umurima, ugasanga umuntu afite imbuto z'amasaka, imbuto z'ibigori, imbuto z'iki ugasanga uwo muntu yiteje imbere, nibyo acuruza abantu bakamenya ko agira imbuto ambaba bahinze bagiye gutera, bagahita bajya kuzigura kuri uwo muntu uzigira.

Ubuhinzi ni kimwe mu bidufitiye runini, aho usanga abantu barahinze, bagahinga nk'u bunyobwa bakiteza imbere, bakabugurisha, bagasagurira amasoko, nabo bakabona amafaranga, bakaba bakwiteza imbere no mu bindi bakagura n'ibindi byo kurya, bakagura n'imyenda, bakaba batangirira n'abana amashuri, kubera ko bahinze imbuto bagasagurira n'amasoko.

Ubucuruzi buba bwiza cyane cyangwa se ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yarahinze amasaka akaba ayafite mu rugo akayagiramo imbuto ntaje kuyagurisha, abantu bakazajya abaraza kumuteza imbere bakamenya ko ariwe ugira iyo mbuto cyangwa kazajya arayacuruza akazajya arayarangura akazajya ayafata nk'imbuto, umuntu yaba agiye guhinga akamenya ngo aragura imbuto kwa runaka ya masaka.

Ubuhinzi buba bwiza cyane. Aho usanga abantu dusigaye twiteza imbere tukajya duhinga imbuto zitandukanye, aho dusigaye turahinga n'ubunyobwa, twarangiza tukabona ubwo kuryaho, tukajya turajya no kugurisha mu masoko, bityo bikatugirira akamaro tukabona n'amafaranga yo kuguramo ibindi biryo byo kurya, nk'ibirayi n'ibishyimbo.

Ubuhinzi buba cyane, aho usanga abaturage basigaye barahinga ibintu bitandukanye by'imbuto, ugasanga bahinze amasaka, ibishyimbo, ingano, bakiteza imbere, bagasagurira amasoko, bakabona ibyo bazajya barajyana n'ibyo(...) n'amafaranga yo kuba bagira ibyo bindi baguramo bakagurisha nk'ibishimbo ,bakagura nk'ibirayi. Mbese ubuhinzi bwabaye bwiza cyane.

Ubuhinzi bukomeje kuba bwiza cyane aho usanga umuntu yabuhinze agasagurira amasoko akabona uburyo yiteza imbere akabugurisha akaba yaguramo n'ibindi bintu bitandukanye, nawe ubwe mu rugo bakabona ubwo kurya bugatunga umubiri bakabaho neza bafite ubuzima buzira umuze.

Ubuhinzi ahanini nibwo butubeshejeho, kandi nibwo budufatiye runini, aho usanga abantu barahinze ibiribwa, bagasagurira amasoko, nabo ubwabo bakiteza imbere, bakabirya, bikagira akamaro mu mubiri, bikadufasha kubaho neza dufite ubuzima buzira umuze, ugasanga tunasaguriye n'amasoko tuguze na bya bindi bindi dukeneye byo mu mpande, bityo ubuhinzi ni bwiza cyane.

Reta ni nziza cyane aho yatwitayeo ikajya twubakira ibigega byo gushiramo imbuto. Umuntu yakweza ko ibigori byinshi by'imirima nk'itatu akaba yabura aho abibika iwe murugo akabijana aho ngaho muri icyo kigega bikaba bifite umutekano mwinshi kandi usesuye . ugasanga ibyo bigori barabibetesheje babikuyemo ifu y'agahunga abantu bakajya bayigura bagakomeza bakabaho neza kuko baguze ifu y'agahunga amafaranga make.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho usanga nk'umuntu yariyemeje kuzajya aba afite imbuto runaka, umuntu yakenera guhinga akaba yajya kuyigura aho hantu kuri uwo umuntu. Ugasanga afite imbuto z'ingano, imbuto z'umuceri, imbuto za buri kimwe cyose. Ugasanga afite n'imbuto z'ibishimbo, byose arabifite cyane cyane akaba afite nk'imbuto z'ingano, ukaba wajya kumuteza imbere.

Guhinga biba byiza cyane cyangwa se nko kwishingira bizinesi ukajya uragura, imbuto ukazibika abantu bakajya baramenya ko ari wowe ucuruza izo mbuto, bakaza kuguteza imbere ukagira inyungu, ugakomeza ukiteza imbere nawe ugakomeza ugashinga bizinesi zitandukanye, ukagura ubucuruzi bwawe niba twari dukeya ukabigira byinshi ukajya urakomeza ukabona abakiriya, ukabona n' amafaranga yo gukomeza, utangira abana bawe mu mashuri.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yaravuze ati reka nzajye ndahinga amajeri, nidangiza nyakuremo imbuto uwajye aje gushaka imbuto, azajye aramenya ko nyagiraga. Ibyo bikaba byiza cyane bitworohereza kumenya ngo urahinga, ariko uzi ahantu urakura imbuto n'uba azifite akabona amafaranga, kuko abona ababakiriye ibyo bigakomeza bikadufasha gutera imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi no mu bukungu.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yariteje imbere, akajya arahinga, akagira imbuto, cyangwa akazajya azirangura, akajya arazibika abantu bakajya baza kuzigura barangiza bakamuteza imbere, akabona amafaranga agakomeza akagura ubucuruzi bwe.

Ubuhinzi ni bwiza cyane aho usanga abantu barahinze bakiteza imbere, ugahinga nk'amasaka wamara kuyahinga bikagufasha ukaba wayagurisha, iyo mbuto ikagemurwa n'ahandi, ahandi ikaba yahingwa bityo bigakomeza kudufasha gutera imbere kuko twayigurishije tukabonamo n'amafaranga ayo amafaranga akazajya aradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yarahinze, akaba afite nk'igitebo cyo guhunikamo, ibyo byabaga byiza cyane mbere byarakoreshwaga, ugasanga umuntu yarahinze nk'ibishyimbo, abishize mu ricyo gitonga, ugasanga ntacyo bibaye, nta n'indwara birwaye, kubera ko yabihunitse neza, akabibika ahantu hafite umutekano.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho usanga umuntu yahinze agahinga umuceri agasagurira amasoko. Ubwo buhinzi, yaba yahinze nk'umuceri bakaba bugemura no hanze mu Gihugu, ugasanga ubukungu buri kwiyongera, nawe ubwe akajya abona icyo kurya, icyo kugaburira n'abana, bityo ubuzima bugakomeza bukaba bwiza.

Ubuhinzi budufitiye akamaro kanini aho usanga nk'umuntu yarahinze nk'imbuto runaka, agahinga nk'amageri, ibishimbo, cyangwa se ibihaza akiteza imbere, akaba afite nk'imbuto runaka akaba ari we uzigurisha, abantu bakazajya baza kureba izo mbuto bakazigura, ibyo bikadufasha kwiteza imbere kuko uba ufite imbuto bakaza kuzigura bakaguha n'amafaranga.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu arimo gucuruza imbuto zitandukanye, ukaba uzi ngo uwo muntu acuruza imbuto y'ibishimbo, iy'amasaka, iy'ibigori. Ugasanga afite uburo n'ingano ukaba uwo umuntu umuzi akaba ariwe muzajya murabaza izo mbuto, akoroza abandi bagahinga n'abo bakiteza imbere mu buryo butandukanye, kuko babonye imbuto zo guhinga.

Ubuhinzi buba bwiza cyane. Aho usanga umuntu yarahinze, agahinga nk'imbuto runaka, yarangiza agasagurira amasoko. Na we ubwe akiteza imbere, akabona ibyo kurya. Akaba yagaburira abana be nta kibazo, bityo iterambere rigakomeza rikihuta mu miryango yacu.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, usanga umuntu yarahinze, akihingira ubunyebwa, akabugira nk'imbuto, akajya aba abufite, umuntu yajya guhinga, akajya kubushakira iwe cyangwa yashaka ubwo kurya akajya kubushakira, kuko azi ko uwo muntu agira izo mbuto, ibyo bikamufasha gutera imbere bikamufasha no gukurura abakiriya.

Ubuhinzi bubaga bwiza cyane aho usanga aho usanga umuntu yaraguze nk imbuto runaka z'ibishyimbo ugasanga niwo uzira izo imbuto abantu baje guhinga akaba ariwe baje kuzibariza aho kubera ko ari buba bufite izo mbuto bityo agakomeza kwiteza imbere kuko abagazwi n'abantu benshi akaba ariwe bazajya bateza imbere abantu bakabona ibyo bahinga bagakomeza nabo bakiteza imbere mu bukungu.

Ubuhinzi ni bwiza cyane aho usanga umuntu yari yangiye bizinesi, akavuga ati ngiye kuzajya mpinga imbuto runaka, ni ndangiza nzishyire ahantu ku buryo uzajya arashaka kuzihinga azajya araza kuzireba iwanjye, ibyo bikagufasha gutera imbere kuko nta handi hantu bajya kuzibariza, kuko baba bazi ko ari wowe uzigira gusa.

Hambere umuntu yarahingaga, yamara guhinga nk'imbuto runaka nk'ibigori byaba byinshi akaba afite ikigega, bakitaga ikigega waracyubakiye kimeze, nk'inzu ukayihunikamo ibyo bigori, uwakenera imbuto akamenya ngo araza kuyishakira iwawe, byabaga byiza cyane byatumaga uwo muntu ugira imbuto nawe we ubwe yiteza imbere.

Ubutaka buba bwiza cyane aho usanga umuntu yarahinze akiteza imbere ,agahinga nk'amasaka amasaka yakwera akayagemurira amasoko, akaba afite imbuto runaka ,akazajya arayigira, abantu bakazajya baraza kuyigura, kubera ko bazi ko ari we ugira iyo mbuto y'amasaka, bityo akaba aribo bayishakira bikamufasha gukomeza gutera imbere.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho usanga abaturage barihingiye nk'imbuto runaka, iyo mbuto ikabikwa neza yamara kubikwa neza ikaba yagemurwa n'ahandi hose, badafite iyo mbuto nk'iy'ibigori. Ugasanga igemuwe nko mu bihugu byo hanze, iyo mbuto bakayifata neza barangiza na bo bo mu bindi hihugu byo hanze, bakajya bayihinga bityo bikabasha gufasha igihugu gukomeza gutera imbere.

Ubuhinzi buba bwiza cyane aho usanga umuntu yarahinze nk'imbuto y'ibigori yarangiza akagemurira n'abandi bakabona ibyo bahinga na we akisagurira ibyo azajya akoresha. Agahinga agasheshamo n'igikoma akaywa, akagurisha n'abandi bakabona ibyo bazajya banywa batarabihinze.

Uburezi bubaga bwiza cyane, umuntu usanga yarize ibintu bitandukanye akiga nko korora inkoko akaba azi kuvura inkoko, indwara ziba zirwaye umuntu afite ubworozi bw'inkoko yazororeye ahantu hanini, nyinshi cyane imishwi zarwara veterinera akaza kureba ubugwayi zaryaye akazifasha kubaho, bityo uwahanze iyo bizinesi agakomeza akabona ubuzima bwiza agakomeza agatera imbere.

Kwiga biba byiza cyane aho bikuyobora mu byo wumva uzakora, tukabasha kubona nk'abaganga abaveterineri bavura amatungo, bakabasha kutuvurira amatungo yarwaye nk'inka, ugasanga inka yagize indwara ntuyizi ariko wahamagara umuveterineri akayikuvurira, ikabasha kuguha amafaranga tukarya n'inyama zizewe, kubera ko abaveterineri baba bazivuye kandi bazi n'indwara zirwaye.

Kwiga ni byiza cyane aho usanga twiga ibintu bitandukanye, ugasanga twize: ubuvuzi bw'amatungo bityo tukabasha kuvura amatungo y'abaturage byoroshye bitabavunnye, batabuze umuntu ubavurira, ugasanga ubyara nk'abavuzi b'amatungo ,bityo amatungo yacu akabasha gukura neza ntakibazo agize.

Uburezi ni bwiza cyane kandi budufitiye akamaro kanini. Aho usanga ihene irwaye cyangwa se intama ugasanga ari abaveterineri babyigiye mu mashuri bakaza kureba icyo ihene yabaye, bakayivura, igakomeza ikabaho na nyirayo akayitunga. Yakura, ayigurisha. Bityo abaveterineri ni beza cyane , badufasha kurarokora amatungo yacu. tugakomeza tukayagira tukabonamo amafaranga.

Kwiga biba byiza cyane ubu usanga bidufitiye akamaro kanini aho usanga umuntu yaroroye ingurube nyinshi zarangiza zikarwara, ingurube zagwara akaba yahamagara veterineri, kuko umuveterineri aba azwi kandi yarabyigiye akaza akavura iyo ngurube; iyo ngurube igakomeza ikabaho neza ikagira ubuzima bwiza bityo uyoroye akaba yakomeza kubona umusaruro wayo agakomeza akabona n' ifumbire akaba yayigurisha akabonamo amafaranga.

Uburezi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yarize nko kuvura nk'amatungo, aba yarabyigiye mu ishuri, akavura nk'amatungo yarwaye, bikarinda amatungo kuba yapfa, akaba azi kuvura nk'ingurube, yarwara indwara runaka, kubera ko aba yarabyigiye ubuveterineri akamenya ngo arayivura bitewe n'uburwayi ari kuyibonaho, tukabasha no kurya inyamaswa zifite ubuziranenge kuko ziba zapimwe na ba veterineri, kandi bakabona ko ari nzima.

Kwiga ni byiza cyane uburezi ni bwiza cyane, aho usanga tujya mu mashuri tukiga ibintu bitandukanye, usanga twizeyo kuvura nk'amatungo aribyo bita ubuveterineri, usanga nk'inkoko zigize uburwayi bwitwa uburoro, tukaba tuzi ukuntu twazivura zikaba zakira zikatugirira akamaro, tukazijyana ku isoko tukazigurisha tukabonamo amafaranga tukiteza imbere.

Kwiga ni byiza cyane, aho usanga abantu baragiye mu mashuri bakiga ibintu bitandukanye ,noneho ugasanga bize kuvura nk'amatungo . Bakazajya barayavura ,bakavura indwara zaba zafashe amatungo. Bityo ayo matungo yakira, akabasha kuduteza imbere, tukayagurisha ,tukaba twayarya tuzi ko yujuje ubuziranenge . Bityo tukabasha kubaho neza.

Uburezi ni bwiza aho tujya ku ishuri tukiga ibintu bitandukanye mu kwiga ubuganga warangiza ukiga kuvura amatungo bityo bikadufasha kuba twamenya no gutera amatungo inshinge, bityo wayatera inshinge bikadufasha kuba amatungo yakira tukayakuramo umusaruro mwiza.

Kwiga ni byiza cyane, aho usanga biri kudufasha kumenya uko twavura amatongo, bityo amatungo akabasha kubaho neza, tukabona uko twayagurisha, tukarya, n'inyama z'amatungo zimeze neza, kuko abaveterineri baba bazipimye, bityo bikabasha kudufasha kubaho neza.

Kwiga biba byiza cyane kandi bidufasha ikintu kinini, aho usanga umuntu yarize akarinda gusaza akora ako kazi, kubera ko aba yariteganyirije, ugasanga umuntu yarize ubuveterineri, azi gupima inyama zarwaye n'izitarwaye, ibyo bikatugirira akamaro natwe tukabasha kurya inyama zifite ubuziranenge kandi buzira umuze. Ibyo bikadufasha cyane kuko usanga hari ahantu bariye inyama y'itungo ryapfuye, abo bakarwara bagapfa. Ibyo ni bibi cyane.

Ubuvuzi bw'amatungo ni bwiza cyane kandi budufitiye akamaro kanini, aho usanga nk'umuntu ari kuvura amatungo yariyemeje kuvura amatungo, akaba ari byo yigiye. N'uburezi ni bwiza cyane kuko bubidufashamo ugasanga umuntu avura nk'ingurube, n'amatungo yose akaba yayavura, ugasanga azi kuvura ingurube yafatwa n'indwara runaka akaba yayiha umuti, akamenya uburyo irwaye akaba yayivura, ibyo bikatugirira akamaro, ku buryo amatungo atakiducika ngo apfe tutazi ikiyishe.

Uburezi buba bwiza cyane cyane, aho usanga umuntu baramwigishije nko muri sogonderi akiga kuvura, akaba yaba umubyaza, akabyaza abagore, ibyo bikatubera byiza kuko ubungubu nta muntu ugipfa gupfa aho wasangaga mbere abantu bapfuye ngo bababyaje nabi, ariko ubu haje abaganga b'inzobere babizi kandi babyigiye.

Kwiga biba byiza cyane aho usanga umuntu yarize nko kuvura amatungo icyo bita vetari ubuveterineri, ugasanga umuntu yarize nko kuvura amatungo azi kuvura ihene ,inka, ingurube, cyane cyane ugasanga ihene umuntu yoroye ihene nyinshi ugasanga zafashwe n'indwara runaka umuveterineri akaza kureba icyo zirwaye akazivura, ibyo bikatugirira akamaro kuko izo hene zikomeza zikabaho, tukazigurisha tukabonamo n'amafaranga akajya aradufasha.

Kwiga ni byiza cyane, aho usanga umuntu yarize, akiga nko kuvura amatungo. Akiga ubuveterineri no muri sogonderi bisigaye birabamo, aho usanga umwana yarize akamenya ati nziga iki ngiki, akamenya kugikora. Akamenya kuvura amatungo. Nk'inkoko yaba yarwaye indwara runaka, ukamenya ngo urayitera urushinge runaka, cyangwa se urayivura gute, bityo bikabasha no kudufasha amatungo yacu akabaho neza.

Uburezi bubaga bwiza cyane aho usanga bufitiye abantu akamaro kanini ugasanga umuntu yoroye inka, abonye abantu baza kuyivura kubera ko hari benshi babyigiye, inka ikabasha gukira igakomeza kugira ubuzima bwiza, igakomeza kujya iraduha amata, ikaduha ifumbire, ikaduha n'amavuta yo kwisiga, amavuta y'inka. Ibyo bigakomeza bikaba byiza cyane abaveterineri baba badufitiye akamaro kanini.

Ubworozi buba bwiza cyane, aho usanga inkoko cyangwa se zadendo umuntu azoroye, zamara kurwara veterineri akaza kuzivura kubera ko umuntu yize ibintu bitandukanye, bikamugirira akamaro natwe bikatugirira akamaro amatungo yacu agakomeza kubaho neza kuko bayavuye tukajya kuyagurisha ku isoko tugakomeza tukabona amafaranga twashora, tukarya n'inyama yizewe kubera ba veterineri.

Uburezi ni bwiza cyane aho usanga umuntu yarize nko kuvura nk'amatungo runaka, ugasanga azi kuvura ubwoko bw'amatungo inka, ihene, ugasanga inka niba ifashwe n'indwara runaka veterineri we wabyigiye ahise amenya icyo iyo nka irwaye. Akamenya uburwayi ari buyivure, ibyo byatubere byiza cyane kuko inka zacu zisigaye zibaho neza, zikabyara tukagurisha tukabona n'amata kubera ba veterineri.

Ubwiza nyaburanga bwahozeho kandi bukomeje gutera imbere aho usanga hari ahantu ho kororera inyoni ,ho kororera amatungo atandukanye ,ugasanga hari ahantu ho kororera inyoni zo mu gasozi, zikabasha gukurura ba mukerarugendo bakadusigira amafaranga, natwe iyo turi kuzireba tubona ari nziza bityo zikaba amafaranga basize igihugu kikabasha kwiteza imbere mu bindi bintu bitandukanye.

Inyoni ebyiri ziri hejuru mu kirere, zisa n'izihagaze nko ku gati, aho zikurura ba mukerarugendo, bakaza kuzireba aho ziherereye, mu mashyamba, barangiza bagasiga amadevize.

Inyamaswa zo mu gasozi ni nziza cyane aho usanga ba mukerarugendo bazisura, bitewe n'uko zimeze zitangaje barangiza bagasiga amadovize, amadovize akagirira igihugu akamaro ,bityo natwe akaba yadufasha mu mirimo itandukanye.

Inyamaswa zo mu gasozi ziba nziza cyane, ziri mu bwoko butandukanye usanga inyawu cyangwa se injangwe, usanga ifite amabara meza cyane, yaba umukara cyangwa umweru, kuyireba iraboneye usanga ikurura ba mukerarugendo bayireba bakayishimira, bagasiga ayo madovize, amadovize agafasha igihugu mu gutera imbere.

Inyamaswa zo mu gasozi ni nziza cyane, aho ubona ziremye mu buryo butangaje nawe ubwawe kuzireba ukabona ko zitangaje, ibyo bikaba byiza cyane natwe bo mu gihugu dushaka kureba aho ziba, tugatanga amafaranga makeya cyane kubera ko arizo mu gihugu cyacu, nk'inka yo mu gasozi cyangwa se ingurube iba iboneye kuyireba, igakurura ba mukerarugendo bagasiga amadovize, amadovize agafasha igihugu mu iterambere.

Inyamaswa zo mu gasozi ni nziza cyane. Aho usanga inyoni. Aho ziba zikurura ba mukerarugendo, bakaza kuzireba, bityo bakazishimira, barangiza bagasiga amadovize. Amadovize akagira akamaro kanini mu gihugu. Aho ayo amadovize bashobora kwifashisha bubaka ibikorwa-remezo bitandukanye. Bubaka nk'amasoko cyangwa se imihanda, n'amahoteli. Abantu baza bakabona aho kurara. Ibyo bikaba byiza cyane.

Inyamaswa zo mu gasozi ni nziza cyane kandi zidufitiye akamaro kanini, aho usanga nk'inyoni zifite ibara ry'umuhondo, zifite umunwa wumukara ziba ziboneye zikururara ba mukerarugendo bakaza kuzireba, bagasiga amadovize igihugu cyacu kigakomeza kigatera imbere, kuko ayo madovize iyubakamo amasoko, imihanda, ibikorwa remezo, ikaba yaremera n'abaturage batishoboye, ibyo bigakomeza kudufasha gutera imbere.

Inyamaswa zo mu gasozi ziba nzinza cyane kandi zikurura ba mukerarugendo, aho usanga ingona yo mu mazi iboneye imeze neza iteye mu buryo butangaje, ba mukerarugendo baza kuyisura bagasiga amadovize, amadovize agafasha igihugu akaba yakubaka amashuri mu iterambere ry'uburezi rigakomeza rikiyongera cyane, ibyo biradufasha natwe tukajya kureba izo nyamaswa kuko ziba zitangaje tukazitangaho amafaranga make kuko ziba ziba mu gihugu cyacu.

Inyamaswa zo mu gasozi ni nziza cyane aho usanga ibikeri cangwa se imitubu ikurura ba mukerarugendo, bakaza kureba uko biteye n'uko bimeze kandi bikunda kujyabiraba mu mazi. Bamukerarugendo bakaza kubireba baje no kureba ibiyaga ibyo byose bikabasha gukurura ba mukerarugendo bagasiga amadovize, igihugu cyacu kigakomeza kigatera imbere.

Inyamaswa zo mu gasozi ni nziza cyane kandi zidufitiye akamaro kanini, aho usanga kuzireba zitangaje ubwo zigakurura ba mukerarugendo bakaza kuzireba, bagasiga amadovize. Ayo madovize akatugirira akamaro mu gihugu. Akaba yubaka ibikorwaremezo bitandukanye bifitiye abaturage akamaro. Ibyo bigakomeza bigafasha Igihugu gutera imbere, na twe muri rusange tugakomeza kugira ubuzima bwiza.

Inyamaswa zo mu gasozi ni nziza cyane, aho usanga nk' inyoni zitandukanye cyangwa se nk' ibigona bikurura ba mukerarugendo, bakaza kubireba ubwiza nyaburanga byifitiye bagasiga amadovize, inyamaswa zifasha igihugu gutera imbere, bityo natwe ubwacu tugakomeza gutera imbere, kuko igihugu cyacu cateye imbere, burya nawe uba wateye imbere, ibyo bigakomeza bikatubera byiza cyane.

Inyamaswa zo mu gasozi ziratangaje, aho usangaga hari ahantu bororera inzoka abantu bakaza kuzireba bazi ukuntu bari buzitware zitararyana ba mukerarugendo baza kuzireba bagasiga amadovize, bagafotora kajyana n'amafoto ugasanga ni byiza cyane.

Inyamaswa zo mu gasozi ni nziza cyane, aho usanga nk'inyoni ziri mu bwoko butandukanye kuzireba bitangaje, natwe abo mu gihugu ugasanga dufite amatsiko yo kujya kureba izo nyamaswa, kuko ziba zibonereye ijisho, tugatanga amafaranga makeya kugira ngo tujye kuzireba, na ba mukerarugendo bakaza bagatanga amafaranga, ayo mafaranga agafasha igihugu gutera imbere, kubera ko bubakamo imihanda, bakubakamo n'amasoko, ibyo ni ibiduteza imbere nkatwe nk'abaturage.

Inyamaswa ziba nziza cyane. Aho zikurura ba mukerarugendo. Nk'inyoni cyane cyane, aho ziba, ba mukerarugendo bakaza kuzireba bagasiga amadovize. Natwe ubwacu, mu gihugu cyacu, bakatworohereza tugatanga amafaranga makeya tukajya kwirebera ubwo bwiza nyaburanga butatse igihugu. Ibyo bikatubera byiza cyane.

Ubwiza nyaburanga bwahozeho. Aho usanga inyamaswa zimwe na zimwe ziba mu gasozi zikomeje kujya zirakurura bamukerarugendo. Bamukerarugendo bakazireba ,bakazishimira ,bakazifotora ,bakabasha gusiga amadovize mu gihugu. Bityo igihugu kikabasha kunguka irindi terambere. Tukabasha kwiteza imbere mu buryo butandukanye.

Inyamaswa zo mu gasozi ziba nziza cyane aho usanga nk'ingagi cyane cyane, ingagi rwose zikurura ba mukerarugendo aho baba baje no kuzita amazina ugasanga hariho n'abazungu bari kwita amazina. Ingagi iri muri bimwe bitunze igihugu aho abantu basiga amadovize ba mukerarugendo, barangiza amadovize akagirira igihugu akamaro.

Ubwiza nyaburanga bwahozeho na n'ubungubu bwarakomeje buriyongera, aho usanga hari inyamaswa ziri mu misozi, ariko ziri ahantu runaka zirinzwe, zigakurura ba mukerarugendo kubera ubwiza bwazo, bakabasha gusiga amadovize y'igihugu, igihugu kikabasha kwiteza imbere, kigafasha n'abari mu bukene kuzamuka bakiteza imbere.

Inyamaswa zo mu gasozi ni nziza cyane kandi zidufitiye akamaro kanini, aho usanga nk'inyoni no kuyireba ukayitegereza, ubona ari nziza cyane kandi iboneye, ibyo bidufasha no mu gihugu kuko inyoni zikurura ba mukerarugendo baje kureba ubwoko bw'inyoni aho ziba ziri, zigafasha n'igihugu gutera imbere kuko baba basize amadovize, bakayifashisha mu bikorwa remezo by'igihugu bya buri munsi, natwe abaturage tukabironkeramo tukumva twishimye kandi tunezerewe.

Inyamaswa zo mu gasozi nk'uko bisanzwe bizwi zikurura ba mukerarugendo, aho usanga inyoni z'ubwoko butandukanye zikurura ba mukerarugendo, kubera ubwiza nyaburanga ziba zifitiye, bityo bagasiga amadovize ayo madovize akifashishwa mu gihugu gutera imbere agafashwa na bakene batishoboye bakazamurwa nabo ku buryo bazagera ku kigero gishimishije.

Inyamaswa zo mu gasozi ziba nziza cyane aho zikurura bamukerarugendo bakaza kuzireba bagasiga amadovize mu rwanda bamara kuyasiga. Akatugirira akamaro bakubaka ibikorwa bitandukanye byagirira abaturage akamaro n'igihugu muri rusange.

Inyamaswa ni nziza cyane kandi ni zimwe mu bigize igihugu, bifashije igihugu iterambere, aho usanga zikurura ba mukerarugendo bakaza kuzireba, kuzisura, bakazifotora, barangiza bagasiga amadovize mu gihugu, igihugu kikabasha gutera imbere, kubera inyamaswa zo mu gasozi.

Inyamaswa zo mu gasozi ni nziza cyane, zidufitiye akamaro kanini, aho usanga nk'intare, rwose ibereye amaso, ugasanga ba mukerarugendo baje kuzireba aho ziba, bakazitegereza, bagafotora n'amafoto, bakayajyana, bagasiga amadovize mu gihugu, ayo madovize agafasha igihugu gutera imbere, bakubakamo ibikorwaremezo, imihanda, ibyo bigakomeza kudufasha gutera imbere, natwe ubwacu tukajya kuzireba ku mafaranga make cyane twishimye.

Inyamaswa zo mu gasozi zifite akamaro kanini, aho usanga inyoni zo mu bwoko butandukanye ziri ahantu ho mu ishyamba. Ugasanga zikuruye ba mukerarugendo bakaza kuzireba, bagasiga amadevize. Bityo bigafasha Igihugu gutera imbere.

Inyamaswa zo mu gasozi zidufitiye akamaro kanini, uho usanga zikurura ba mukerarugendo bakaza kuzireba, nk'inkwavu zo mu gasozi baza kuzireba bagasiga amadovize, ziba nziza cyane ziba zibereye amaso, aho n'abaturage b'igihugu bajya kuzisura bakaba basigayo n'amafaranga, ibyo bikaba byiza cyane ukabona biraboneye.